Ni ishuri irimo intebe, intebe ni zo abanyeshuri bicaraho iyo bari kwiga, harimo n'ikibaho icyo umwarimu yandikaho iyo ari kwigisha abanyeshuri ,nabo bakandika mu makayi yabo, kugira ngo bazabone uko bazajya barabisubiramo.

Abakobwa bari kudoda. Bari kudoda imyenda bakoresheje imashini zabugenewe. Bambaye imyenda isa, bigaragara ko bishyize hamwe nk'ishyirahamwe, bagakora umwuga umwe.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bagiye kurya ibiryo, bafite na furuwi, ndetse n'ibikomoka ku matungo. Ari byo amata. N'abayobozi babo bari kugenda babaganiriza batemberamo.

Ni abanyeshuri b'abana batoya. Mwarimu wa bo ari kugenda abigisha kwandika, kugira ngo bakurane ubwenge n'ubushishozi, bazagere mu mashuri makuru.

Abatekinisiye babiri b'abagabo bambaye imyenda itandukanye ariko y'ubwirinzi, hari uwambaye isarubeti y'igitaka, undi yambaye ishati ndende y'umukara wiganjemo ubururu, ndetse bambaye na bya masike byo kugira ngo bibarinde mu isura.

Abakanishi bari gukanika imodoka bambaye impuzankano ariyo isarubeti ,kugira ngo bigaragaze ko bafite umwuga umwe, kandi bahuje umurimo.

Abantu b'ubwoko butandukanye harimo abazungu, n'abirabura, bambaye imyenda y'akazi, bari gupima ahantu bagiye kubaka, bahacukuye imyobo kugirango birinde isuri.

Imashini zidoda imyenda, zidoda imyenda itandukanye, hari izidoda imyenda y'ubudodo, hari n'izidoda imyenda isanzwe, harimo n'abakobwa batatu badoda iyo myenda bayidodera abantu.